Intoki z'umuntu zifashe inoti icuritse igaragara ko ashaka kuyifotora hejuru y'andi mafaranga y'ibiceri n'inoti zirambitse ku meza, ni inoti iriho ibirango by'umusigiti itagaragaza neza igihugu inoti yakorewemo ntabwo kigaragara, ariko ni ifoto iri hejuru y'andi mafaranga.